Moto nziza cyane bigaragara ko ikiri nshyashya ndetse na kasike zayo zikaba zikiri mu mashashi, iyo moto ikaba yanditseho ikirango cya Eyateri, bikaba bigaragara ko yatanzwe na Leta, iyishyikirije umuturage.

Umusore wambaye umupira w'amaboko magufi urimo n'uturongo dutambitse, akaba yambaye kandi n'ipantaro y'umukara, ahagaze iruhande rw'igare yaparitse, ahakorera akazu ka MTN ndetse na Airtel.

Urubyiruko ruhagaze ahantu heza bigaragara ko habereye ubukangurambaga, bakaba bahawe amatelefone mashyashya, bose bakaba bishimye, bari kurebamo ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Muri santire hari akazu ka Eyateri karimo umugabo ukoreramo wambaye umupira w'umweru n'ingofero, hakaba hari umukiriya uje kuhashakira serivise wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo uturongo.

Koperative ikorerwamo ibijyanye no kubaza. Bakaba bakora ibikoresho byo mu nzu bikorwa mu mbaho. Harimo: intebe, ibitanda, ameza n'ibindi bigiye bitandukanye.

Koperative ikora ibijyanye no gukusanya amata, bayakuye mu duce dutandukanye, bakayazana ku ikusanyirizo kugira ngo abaturage bamwe na bamwe bazajye babona amata bitabagoye.

Umugabo wambaye ikositimu n'agapfukamunwa gasa nk'ubururu, arikumwe n'umugore wambaye agapfukamunwa gasa nk'umukara ,wambaye n'ikanzu y'igitenge, bafite igipapuro kinini cyane ,bigaragara ko cyanditseho amafaranga basinyiwe, kugira ngo bajye kuyafata muri banki.

Koperative yiganjemo abagore bakora ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko bakaba bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye, bakabishora ku masoko bagakuramo inyungu, ndetse bakisagurira n'ibyo kurya.

Akabari karimo inzoga z'amoko atandukanye, iz'amarikeli, kubabatse ahantu heza karasa neza cyane, hakaba hakunda kuza gufatirwa ibyo kunywa n'abantu biyubashye.

Akabari gasa neza cyane karimo inzoga z'amoko menshi agiye atandukanye, kakaba gasohokerwamo n'abantu b'ingeri zose, baje kuruhuka igihe basoje akazi ndetse no mu yandi masaha.

Muri butike hicayemo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto zifunze, akaba ari gucuruza amandazi ndetse bikaba bigaragara ko acuruza n'icyayi cyo kuyanywesha.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hahagazemo n'umugore uri kubicuruza, wambaye ikanzu y'igitenge, muri ibyo bicuruzwa twavugamo nk'inyanya, ibirungo bigiye bitandukanye n'amavuta yo guteka.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyenda, imikeka, amamatora n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ikarito irimo ibirungo biba bikoze mu nyanya ziseye, bikoreshwa igihe bari guteka ibiryo bitandukanye, by'umwihariko mu nyama ndetse n'ibindi.

Muri kiliziya harimo abapadiri bagera kuri bane, bari guhaza abakirisitu baje gusenga, bose bakaba bambaye udupfukamunwa n'amakanzu asa nk'umweruru.

Muri kiliziya, hicayemo padiri wicaye mu ntebe yamugenewe, akaba yambaye ikanzu y'umweru na furari irimo amabara y'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo werurutse.

Kuri Hotel hari ubusitani bwiza cyane, hari na pisine abantu bakunda kongeramo igihe baje kuruhura mu mutwe, Hotel ni nziza kuko zinjiriza Igihugu amafaranga ndetse na ba nyirazo.

Hotel nziza cyane, yubatse ahantu hasa neza, kuri iyo hoteli hari na pisicine, abakiriya bidagaduriramo, igihe bamaze kurya ndetse no gukora ibindi bikorwa.

Kuri hoteli harasa neza cyane, hari inyubako nziza cyane, hari pisine zifashishwa n'abantu bahasohokeye bakazogeramo kugirango baruhuke mu mutwe, hari n'ubusitani butoshye burimo ibiti byiza cyane.

Hoteri nziza cyane yubatse ahantu heza, kuri iyo hoteri haparitse imodoka ebyiri, zajwemo n'abantu baje kuhasohokera.

Hoteli nziza cyane ifite n'icyumba abantu bashobora gukoreramo inama, muri icyo cyumba hakaba harimo abantu benshi cyane bigaragara ko bari kuganira ku kintu runaka.

Mu nyubako nziza cyane ifite korodoro iri kwakamo amatara agiye atandukanye, harimo ibyumba bifite inzugi nziza cyane, harasa neza cyane, hateye amarangi meza kuburyo bugaragara.

Muri hoteri harasa neza cyane, hari kwakamo amatara agiye atandukanye, hasohokerwa n'abantu b'ingeri zose, bakaza kuhiyakirira, bakaganira ku buzima bwabo, ibintu bigakomeza kugenda neza.

Mu isoko hari abagore batatu baje kugurisha ibirayi n'ibijumba, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku, yambaye n'ijipo y'igitenge, yiteze igitambaro cy'umukara mu mutwe n'abandi babiri bakenyeye ibitenge na bo bakaba bitezeye ibitambaro by'umukara mu mutwe.

Mu isoko baje kuhacururiza ibitunguru ibyo bitunguru, bikaba birambitse kuri shitingi, bikaba bigaragara ko bisa neza cyane, abaturage bashobora kubyifashisha bari guteka.

Mu isoko hari shitingi irambitseho indobo irimo imyuko n'udukapu bahahiramo, ndetse n'utuyunguruzo bakoresha igihe bari kuyungurura ibyo bamaze gusekura.

Mu isoko hari abantu bari gucuruza imyenda igiye itandukanye, yiganjemo iy'abamama, hakaba hari n'abandi baje gucuruza ibindi bicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'inkweto zo kwambara.

Resitora isa neza cyane, hateyemo intebe nziza cyane n'ameza, abakiriya bicaraho baje kwiyakira, bikaba bigaragara ko hiyakirirwa n'abantu biyubashye.

Muri resitora hasohokeye abantu bigaragara ko ari inshuti n'abavandimwe baje kuhiyakirira, bakaba bari kunywa fanta n'inzoga ndetse bari no kuganira ku buzima bwabo.

Umuhanda wa kaburimbo, urikugendwamo n'umumotari, wambaye ipantaro y'ikigina, uhetse umugore, nawe wambaye ipantaro y'ikigina n'umupira urimo ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Imodoka itwawe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ijya gusa nk'ubururu bwerurutse, akaba yogoshe, ndetse afite agasatsi gakeya.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo umugabo utwaye moto, wambaye ipantaro y'ikigina n'umupira w'umweru na kasike isa nk'icyatsi, inyuma ye hari indi moto itwaye imizigo.